Abana biganjemo abakobwa n'abahungu. Bambaye impuzankano irimo ibara ryiganjemo ubururu bwerurutse n'ubwijimye. Imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho byagenewe kuyungurura amazi n'ibikombe. Bari gukoresha.

Icyumba kirimo abagore, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutu, umukara, idoma, ndetse n'umuhondo n'icyatsi kibisi, bateze amaboko, bishimye, inyuma yabo hari intebe, ziri mu ibara ry'umweru, ndetse na kake, inyuma hari ishusho, ritagaragara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ikoti ry'ubururu n'icyuma kirangurura amajwi mu ntoki, imnbere ye hari abantu hinjemo abagore n'abagabo bambaaye imyenda irimo amabara y'ubururu, ndetse n'umweru, inyuma yabo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ari mu cyapa mu ibara ry'ubururu.

Abana bahagaze impande y'amavomero atatu, bambaye impuzankano ya kacyi ndetse n'udupira tw'umutuku n'umukara, bari kuvoma amazi mu bikoresho by'umuhondo, inyuma yaho hari ibiti bihateye ndetse n'inyubako y'amabati y'umweru.

Umwana uri guseka uboshye imisatsi y'umukara, wambaye imyenda yo mu gitenge irimo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara, uri gukaraba amazi ari guturuka mu ivomero ari kujya mu gikoresho gisa n'umukara, inyuma ye hari inyubako iriho amatafari ahiye.

Abantu bahagaze batandukanye biganjemo abagore n'abagabo bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umuhondo, icyatsi kibisi, umweru, umukara ndetse n'ikigina n'ubururu. Bahagaze imbere y'inyubako, ku ruhande rwabo hari ubusitani.

Abana batandukanye bari ku ivomero, umwe ari gusunika ngo amazi asohoke ajye mu kivomesho cy'umuhondo, bambaye imyenda itandukanye irimo ibara ry'ubururu, umutuku, ubururu bw'ijimye, ubururu bwerurutse, ndetse n'umukara. Inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti bihari.

Icyapa kiriho inyubako ndende iriho ibirahure by'ubururu ndetse n'urukuta bwa kaki, munsi yaho hari umubare wa 2024 ndetse yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'Intoya mu ibara ry'umweru umuhondo ubururu ndetse na orange.

Umwana uri guseka wambaye imyenda irimo ibara ry'umukara n'umweru, uri impande y'ivomero, imbere ye hari indobo ziteretse mu ibara ry'umweru, inyuma ye hari ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'inzira yo kunyuramo.

Wishimye wicaye urimo kumesa imyenda inyuma ye hari iyo yanitse iri mu ibara ry'ubururu, umukara, kake ndetse, n'icyatsi kibisi hari impande y'ivomo riguturukamo amazi rijya mu kivomesho gisa n'umuhondo, inyuma ye hari inyubako ndetse n'igiti.

Ivomero ririho ibivomesho by'umuhondo, inyuma hari umubyeyi uri mu mutaka w'ubururu, wambaye igitambaro mu ijosi cy'umweru, iruhande hari umwana ufashe kuri ibyo bivomesho, inyuma hari abandi bana batandukanye bambaye imyenda yiganjemo ubururu bwererutse n'umweru n'umukara.

Umwana w'igikara wishimye w'amenyo y'umweru wambaye agapira ka oranje ufite, igikombe mu kuboko kw'iburyo uri kuvoma amazi ari kuva mu ivomero, inyuma ye hari ibyatsi bitagaragara neza.

Ameza ateretseho igikoresho cyabugenewe cyo gukarabiraho intoki gisa n'ubururu, inyuma yaho hari isabune ndetse n'ibiganza biri gukaraba, iruhande rwaho hari amashusho ari mu ibara ry'ubururu atagaragara neza.

Abagore babiri bambaye ibitenge birimo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru, umwe ateruye umwana wambaye ingofero irimo ibara rya oranje, icyatsi kibisi uru guhabwa urukingo. Inyuma yabo hari urugi rurimo urufunguzo rusa n'icyatsi kibisi cyererutse.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo, bari hamwe bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, umweru, umukara, ikigina, umuhondo ndetse n'umutuku, hagati yabo hahagaze umugabo uri kubaganiriza, inyuma yabo hari urukuta rw'umweru n'ibirahure ndetse n'urugi rw'ikigina.

Umuntu uhagaze imbere y'inyubako ntoya ebyiri ziri mu mabara y'ubururu ndetse zubakishije amatafari, imbere yaho hari itaka riharunze ndetse n'uruzitiro ruhazengurutse hose.

Abana babiri basutamye hejuru y'umugezi uri kuvamo amazi, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku, umukara, icyatsi kibisi ndetse n'umweru. Inyuma yabo hari ibyatsi byumye ndetse n'ibiti bitari kugaragara neza.

Iriba ririho abantu batandukanye: abana, abagore n'abagabo bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku, umweru, ubururu, iroza, ndetse n'ikigina, imbere yaho hari ibivomesho biri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'icyatsi kibisi bari kuvoma amazi.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, umukara, umweru ndetse n'ikigina, imbere yabo hari ameza ateretseho indabo ziri mu dukombe ndetse na mudasobwa zitandukanye.

Icyumba cy'inama cyicayemo abagore n'abagabo n'abanyamahanga. Bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, ubururu bwijimye ndetse n'umukara n'uturinda munwa. Inyuma yabo hari igipapuro cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nkuru n'intoya mu ibara ry'umweru.

Icyumba cy'inama kirimo abagore n'abagabo bahagaze bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, umweru, ubururu, umukara ndetse n'umutuku. Imbere yabo hateretse ameza ndetse na mudasobwa, inyuma hari amagambo yanditse ku rukuta mu rurimi rw'Ikinyarwanda, uburyo bwo gukamira ,kurwanya ugutwita kw'abangavu, mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku.

Inyubako irimo abantu batandukanye abagore n'abana bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umutuku, umweru ndetse n'ubururu n'icyatsi kibisi imbere yaho hari abagore babiri bambaye uturinda munwa bari gukoresha mudasobwa n'ibitabo.

Umugore n'abana batatu bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku, umweru, umukara, ikigina, ndetse n'ubururu bwerurutse bari ku ivomero rya kijyambere, imbere yabo hari utubido dutoya dusa n'umuhondo ndetse n'ikindi gisafuriya biteretse inyuma yabo hari ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti.

Umugabo uri gukoresha igikoresho cyabugenewe cy'isuku bita kandagira ukarabe, wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu n'umukara, inyuma ye hari inyubako ndetse n'ibiti byabugenewe by'imbuto.

Abana bicaye ndetse n'abandi babyeyi bahagaze bafashe icyatsi mu biganza, bambaye imyenda iri mu ibara rya oranje, umukara, ubururu, ndetse n'umweru. Imbere yabo hari ubusitani busa n'icyatsi kibisi.

Abantu batandukanye biganjemo abana, abagore ndetse n'abagabo bari ku ivomero, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi kibisi, umutuku, umukara, umweru, ikigina ndetse n'ubururu, imbere yabo hari umwana uri kuvoma, inyuma hari umugore uri gusunika amazi ari kujya mu mabido y'umuhondo.

Abantu batandukanye barimo n'abanyamahanga bahagaze, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, ubururu, ndetse n'umukara, n'umutuku, inyuma yabo hari ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, hehe n'igwingira twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Abantu biganjemo abacyecuru, abana ndetse n'urubyiruko rwicaye hanze y'inyubako bambaye imyenda iri mw'ibara ry'umutuku, umuhondo ubururu, icyatsi, umukara ndetse n'idoma inyuma yabo hari icyuma cyihateretse kibamo amazi ayunguruye ndetse bari inyuma imbere y'inyubako.

Umugore bafite imisatsi y'umukara bari guseka bambaye imyenda itandukanye yiganjemo ibitenge, n'indi afite amabara y'umweru, ubururu, ndetse n'umukara, n'ikigina, inyuma yaho hari ibishushanyo kiriho abana, ndetse n'inyubako ndetse n'ibiti

Umunyamahanga w'imisatsi y'ikigina wambaye imyenda irimo ibara ry'umukara ufite igikoresho kirangurura amajwi mu biganza n'imikufi ku maboko, inyuma ye hari icyapa cy'ubururu kiriho amagambo y'umweru n'ibishushanyo ari mu ibara ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umweru yanditse mu cyapa no ku ruhande hari andi ari n'ibara ry'umutuku umuhondo ndetse n'idoro.

Umugore uhumurije wambaye agapira k'umukara n'akarindamunwa n'ingofero ya kake, uri guhabwa urukingo, inyuma ye hari abandi bambaye imyenda yo mu kazi n'uturindamunwa ndetse n'ibikoresho byo kwa muganga.

Mugore wishimye uteruye umwana mu ntoki wambaye imyenda, higanjemo agapira n'igitenge ndetse n'ingofero y'umweru, umwana uri ku ivomero ari kuvoma amazi mu ndobo y'umukara, inyuma ye hari ibiti birebire by'icyatsi kibisi n'ikirere kigaragara cy'ubururu.

Abagore bicaye biganjemo abambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi kibisi, umweru, ubururu, umukara, imbere yabo hari abagabo babiri bari kubaganiriza, inyuma yaho hari urukuta ruriho ibara ry'ubururu ndetse n'ikigina.

Umugore uri kumwe n'abana batandukanye, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, ubururu, ikigina ndetse n'ibitenge. Imbere yabo hari ivomero ryabugenewe rivamo amazi ndetse n'amajerekani n'indobo ziri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara n'umuhondo.

Icyumba cy'inama kicayemo abantu batandukanye harimo abanyamahanga, ndetse b'abanyarwanda, gifite ameza y'umukara ateretseho amacupa arimo amazi ndetse b'udutabo two mu ibara ry'ubururu n'umweru, inyuma yabo hari urukuta rw'umukara ruriho akabati k'ikigina.

Umwana uri guseka w'imisatsi mikeya y'umukara, wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru ndetse n'iroza, uri impande y'ivomera riri guturukamo amazi ari kujya mu bivomesho bisa n'umuhondo, inyuma ye hari ibihingwa n'ibitoki.

Umugabo wicaye wambaye imyenda iri mwibara ry'umukara n'indorerwemo n'umuhando iruhande rwe hari umwana wambaye imyenda y'ubururu inyuma yaho hari abagore bahagaze bambaye imyenda y'umukara n'umweru.

Re babiri bambaye imyenda y'ibitenge irimo ibara ry'icyatsi kibisi, umuhondo, ubururu, umukara, ndetse n'itaburiya y'umweru, umwe ateruye umwana w'uruhinja mu biganza uri guhabwa urukingo inyuma yabo hari, urugi rurimo ibara ry'u icyatsi kibisi kerurutse rufunguye gato.

Inyubako yicayeho abantu hanze batandukanye bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, umutuku umukara, umweru, ndetse n'ikigina. Inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, mu ibara ry'umweru inyuma yabo hari igiti cy'icyatsi kibisi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kiriho inzoka izengurutse, hasi hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nkuru n'inyuguti ntoya, yanditse mu ibara ry'ubururu, ku ruhande rwaho hari ibara ry'umweru.

Abagore batatu bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'umukara n'ubururu n'uturindamunwa ku munwa, umwe aricaye undi umuturutse inyuma ari kumuha urukingo. Imbere yabo hateretse ikintu kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'uruzitiro rubazengurutse.

Abanyeshuri bigajyemo abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, inyuma yabo hari abigisha ndetse n'inyubako iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Icyumba cy'inama cyahuriwemo n'abantu batandukanye bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi kibisi umweru ndetse n'umukara yanditseho amagambo yo munyuguti nkuru mu rurimi rw'icyongereza bambaye n'uturindamunwa tw'umukara ndetse n'ubururu bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hateretse ameza ariho ibitabo ndetse n'icupa ry'amazi.

Birimo umugabo n'umugore uhagaze ndetse n'undi wicaye w'imisatsi y'umukara bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'umukara urimo umweru, imbere yabo hateretse ameza ariho mudasobwa zitandukanye mu mabara y'umukara, umutuku ndetse na kake, inyuma yabo hari icyapa cy'icyatsi kibisi n'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Abantu bahagaze bambaye impuzankano y'akazi ndetse n'amakoti biri mu ibara risa n'ubururu, umweru ndetse n'umukara, inyuma yabo hari igiti gishishe gisa n'icyatsi kibisi.

Abantu batandukanye bicaye ahantu hamwe, harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda yiganje mu ibara ry'ubururu, umutuku, umweru, umukara. Bari mu nyubako ifite ibara ry'umuhondo bicaye ku ntebe.

Umwana usutamye uri kunywa amazi ku mariba yabugenewe, hasi hari indobo isa n'ikigina wambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru, ndetse n'umutuku, inyuma ye hari ubusitani burimo indabo ndetse n'inyubako ifite amabara y'ubururu n'icyatsi kibisi kerurutse.

Icyumba k'inama kirimo abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi kibisi n'ikigina, bicaye ku ntebe z'ubururu imbere yabo hari mudasobwa nini cyane iriho amagambo atagaragara y'umweru n'ay'ubururu, bicaye impande y'ameza ariho amacupa y'amazi.

Umugabo wicaye n'abandi bagore bari Ku ruhande bambaye uturindamunwa b'imisatsi y'umukara, ndetse n'imyenda y'umweru n'icyatsi kibisi n'uturindantoki, barimo baratera urukingo umugabo wicaye w'umupira w'ikigina.

Abahungu bahagaze bishimye bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, imbere yaho hateretseho icyapa cy'ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya mu ibara ry'umweru n'inyuma hari iby'umutuku biriho amagambo ari mu mabara y'umweru.

Kecuru wicaye w'igitambaro mu mutwe n'igitenge uri guhabwa urukingo, n'umugo n'umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ikarita mu ijosi wambaye uturindantoki ku ruhande hari, umugore wambaye igitambaro cy'umweru ndetse n'umupira w'umukara ufite imiti mu ntoki inyuma yabo hari akazu gatoya gahagazeho umugabo wifashe mu mifuka.

Umwana wambaye imyenda iri mu gitenge uhagaze mu mugezi utemba, ufite ikivomesho cy'umuhondo mu biganza uri kuvoma amazi, inyuma ye hari ibihingwa biteye aho ngaho ndetse bigaragara.

Umugore wambaye ibitenge birimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'kigina, wikoreye indobo irimo amazi y'umutuku, n'indi mu biganza y'umuhondo. Imbere ye hari ibyatsi byumye ndetse n'ibiti bihateye, n'inyubako ntoya itagaragara.

Abantu biganjemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'ubururu, umutuku, icyatsi, bicaye mu ruganiriro ndetse imbere hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, inyuma yaho hari urukuta ruriho amashusho yiganje mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Aahagaze biganjemo abanyamahanga bambaye amakote harimo ibara ry'ubururu, umukara ndetse na kake, inyuma yabo hari ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umweru.

Abagore n' abagabo bamwe bicaye n'abandi bahagaze bamwe bateruye abana bambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, umukara ndetse n'ikigina n'ubururu, imbere y'aho hari umugabo uhagaze uri kubaganiriza, inyuma yabo hari akabati ndetse n'urugi rusa n'ubururu.

Imisatsi y'umukara uri guseka n'amenyo y'umweru, wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara, ndetse n'ishati amakakaro uri ukoresha igikoresho cyabugenewe mu isuku itakandagira ukarabe cy'icyatsi kibisi, inyuma ye hari inyubako y'amatafari ahiye.

Abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo ibara rya oranje, ikigina, umukara ndetse n'ubururu, bari mu gikorwa cyo gutera imboga, inyuma yabo hari inyubako ifite ikigega cy'amazi.

Abana b'imisatsi y'umukara bambaye imyenda y'ubururu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara mu nyuguti nkuru ndetse n'intoya y'Icyongereza, inyuma yabo hari inyubako iriho amatafari ndetse n'urugi rw'imbaho.

Abana b'abakobwa b'abanyeshuri bari ku ivomero ry'amazi, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ijipo iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse n'amasogisi y'umutuku n'inkweto z'umukara, inyuma yabo hari igiti kirekire cy'icyatsi kibisi n'umuhondo.

Abana bane bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'ikigina, inyuma yabo hari ibyatsi by'icyatsi kibisi, imbere yabo hari ijerekani y'umuhondo bari kuvoma amazi.

Abagore batatu b'imisatsi y'umukara ndetse n'igitambaro mu mutwe bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, imbere yabo hari amakayi barimo gukora, ndetse inyuma yaho yabo hari utubati two kubikamo impapuro.

Abagore batandukanye bateruye abana n'abandi bahagaze bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu, ikigina, umukara ndetse n'umuhondo. Imbere yaho hari abandi bicaye bafite igitabo, inyuma hari inyubako iriho ibirahure.

Abantu biganjemo ababyeyi ndetse n'abana, bambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hasi yabo hari icyatsi kibisi, inyuma yabo hari ibara ry'umweru.

Abanyamahanga batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, icyatsi kibisi, umweru ndetse n'umukara, bari ku meza ariho mudasobwa, ndetse n'udukomba duteretseho indabo z'icyatsi kibisi n'amacupa y'amazi, inyuma yabo hari inzugi zisa n'ikigina.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umukara inyuma yabo hari urukuta rusa n'ubururu ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Umubyeyi uhetse umwana mu gitenge kirimo amabara y'umutuku n'ubururu, wambaye ishati y'icyatsi, ufite umufuniko w'indobo mu ntoki usa nk'umutuku, iruhande rwe hari indobo y'umuhondo ndetse n'ifite ibara ry'ubururu hejuru,...

Abana babiri, umwe uri gukaraba intoki n'undi uri kumusukira amazi mu kabito k'umuhondo, wambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, umukara, umutuku, inyuma yabo hari inyubako iriho icyondo ndetse n'urugi rumanitseho igitenge.

Abagore batatu bambaye ibitenge bitandukanye n'udupira tw'umweru ndetse n'ibitambaro mu mutwe, bari gusunika amazi undi ari kuvoma, inyuma yabo hari urukuta ruri mu ibara ry'ikigina rw'amatafari ndetse n'igiti kiri inyuma yabo gisa icyatsi kibisi.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo bicaye mu rucaca n'abandi bahagaze bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ubururu, umweru, umukara, umutuku, ndetse n'idoma n'umuhondo, ruguru yabo hari inyubako y'amatafari ahiye n'amabati y'ikigina n'amahema yubatse ku ruhande hari ikinyabiziga kihahagaze.

Bamwe mu bantu batandukanye benshi cyane biganjemo urubyiruko, abacyecuru n'abasaza n'inkumi n'abagore, bambaye imyenda iri mu ibara umutuku, ubururu, umukara, umweru, icyatsi ndetse n'iroza n'idoma, hirya yabo hari inyubako ihari y'amatafari ahiye n'amabati ya kaki, ndetse n'ihema ryubatse ry'umweru n'ikinyabiziga kiri ku ruhande.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, ubururu bwererutse, ubururu bwijimye ndetse n'ingofero mu mutwe, inyuma yabo hari inyubako itagaragara ndende n'igiti gishamitse, imbere yabo bafite icyapa cyanaditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Abantu batandukanye, harimo umwana uri kwikorera ikivomesho kirimo amazi wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse nubwijimye, uturindamunwa, umweru ndetse n'icyatsi, inyuma yaho hari inyubako itagaragara ndetse n'ibyatsi biteye.

Umugore uteruye umwana mu ntoki w'agapira k'igina, wambaye ibitenge, inyuma ye hari umuganga wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru n'umukara, n'uturindantoki, uri guha umwana urukingo. Inyuma yaho hari urukuta ruri mu ibara ry'ikigina...

Urubyiruko rwiganjemo abakobwa n'abahungu bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu bwererutse, umweru, umukara ndetse n'ikigina bambaye n'amakarita mu ijosi, inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda nyabageni, ndetse n'andi ari mu rurimi rw'Icyongereza yanditse mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umweru.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, imbere ye hateretse ameza ariho indobo yabugenewe mu gukaraba intoki, inyuma ye hari uruzitiro ruriho imbingo.

Abantu batandukanye higanjemo abagore n'abagabo n'abanyamahanga bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umukara, iruhande rwabo hari ibiti birebire by'icyatsi kibisi, inyuma yabo hari inyubako ndetse n'urukuta rw'umweru.

Umwana wambaye imyenda irimo ibara ry'ikigina, uri ku ivomero uteruye indobo y'umuhondo irimo amazi, ruguru ye hari umugabo wambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu butsitse n'ubwerurutse, ufite ikikorezo cy'icyatsi kibisi ugiye kugihereza umwana, hagati yabo hari amavomero atandukanye.

Umuntu wicaye usa nabi wambaye imyenda yashaje kandi yacitse, ufite ibintu mu ntoki ndetse n'amacupa ku ruhande. Inyuma ye hari abandi bantu bicaye n'abari kugenda bambaye imyenda yiganjemo umukara. Ubururu, umutuku ndetse n'ikigina.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu kiriho ibirango bitandukanye. Hamwe hariho umugore, ahandi ababyeyi bafite abana ndetse n'undi muntu ku ruhande. Munsi yaho hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu cyapa mu ibara ry'umweru, ndetse ari ku gikuta cy'umweru.

Icyumba kirimo abana bari guseka bishimye, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, icyatsi kibisi, umutuku, umweru ndetse n'umukara. Hari amagambo agiye yanditse hagati mu nyuguti ntoya, y'Icyongereza.

Abantu batandukanye higanjemo abagore n'abagabo bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, umutuku, umukara, ndetse n'umuhondo, bicaye ku ntebe z'umweru, inyuma yaho hari ikinyabiziga cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nkuru asa n'ubururu.

Igishushanyo cy'umuntu, cy'umweru, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru, ari mu ibara ry'icyatsi kibisi gitsitse, inyuma ye hari amarangi agiye atandukanye, ari mu ibara ry'icyatsi.

Umukobwa w'amenyo y'umweru uri guseka, n'imisatsi y'umukara n'agaseri, wicaye ku ntebe wazamuye akaguru, wambaye ipantaro irimo ibara ry'ubururu bucuye, inyuma ye hari ibiti bihateye, ndetse bisa n'icyatsi kibisi.

Ufite agahinda wifashe mu mutwe uziritse umugozi ku maguru wambaye igitenge n umupira urimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, iruhande rwe hari imikeri kandi ndetse inyuma ye hari urukuta rushaje.

Abantu biganjemo abakuru n'abasaza bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, ryanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya, mu ibara ry'umweru, n'umutuku barimo baratera ibihingwa muri busitani.

Inyubako irimo ibicuruzwa ndetse n'umugore wicaye imbere, wambaye ishapure mu bitugu ndetse n'igitenge kirimo amabara ya oranje, umweru, ubururu ndetse n'umukara, inyuma ye hari umugabo utagaragara wambaye ikote ry'umukara ndetse n'amashusho y'umutuku.

Umugabo wicaye ku gatebe n'abagore impande ye bambaye imyenda y'ibitenge irimo amabara y'umutuku, umukara, umuhondo, umweru ndetse n'ubururu. Inyuma yabo hari urutoki ndetse n'ibiti bihateye.

Umukecuru wishimye w'imisatsi y'umweru uri guseka wambaye ibitenge birimo amabara y'umuhondo, ubururu, icyatsi kibisi ndetse n umukara ufite isafuriya arimo guteka, inyuma ye hari inkoko ndetse n ibiti byo gucana n urutoki n'inyubako.

Bicaye ku ntebe zibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo biganjemo urubyiruko, ababyeyi ndetse n'abagore bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, ikigina, ubururu ndetse n'umweru. Inyuma yabo hari urukuta rw'umweru n'abantu bahahagaze.

Icyapa kiriho ibara ry'umweru n'umukara utagaragara n'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya, zisa icyatsi kibisi, umuhondo, ubururu ndetse n'umweru, n'umukara.

Misatsi y'umukara n'indorerwamo mu maso wambaye imyenda yiganje mu ibara, ry'ubururu n'umuhondo, ufite ikarita iriho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti z'umukara ndetse n'umweru.

Inyubako iriho ibara ry'umweru ndetse n'ibirahure, imbere yaho hari jaride irimo ibyapa byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru ni ntoya, ari mu mabara y'umweru, umukara, ndetse n'umutuku.

Umwana w'imisatsi y'umukara wicaye ahantu hafite amabara y'umukara wifasha ku kaguru, inyuma ye hari urukuta rw'umweru ndetse asa n'ufite agahinda.

Umugabo w'iminwa minini n'amazuru manini ufite ijisho ririmo ibara ry'umukara ndetse n'umweru ririmo rirasohokamo amarira ari gutakara. Hejuru ye hari ingohe z'umukara.

Abagore bahagaze bari gukoma amashyi bishimye bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku, umukara, umuhondo, ubururu, umweru, inyuma yabo hari umunyamahanga, imbere yabo hari amacupa y'amazi ateretse ku meza.

Ikinyabiziga giparitse mu rucaca, cy'ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda, Bugesera, mu nyuguti nkuru mu ibara ry'ubururu inyuma yaho, hari intebe zihateretse ndetse n'abantu bahicaye batagaragara neza, n'inyubako iri inyuma y'abo bantu.

Ibiganza bibiri by'umweru ndetse n'uturongo tw'ubururu bipfumbase ikiziga cy'umuhondo hejuru hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, wihogora mu cyapa mu ibara ry'icyatsi kibisi munsi hari andi yanditse mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya mu ibara ry'ubururu.

Umukecuru ushaje wicaye ku musasa ukikijwe n'abana iruhande rwe bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, icyatsi, umutuku, umukara ndetse n'idoma. Inyuma yabo hari igitambaro gisa nka kake.

Abantu bahagaze inyuma y'in'inyubako biganjemo abanyamahanga bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, umutuku, umweru ndetse n'umukara n'ikigina, inyuma yabo hari igikuta kiri mu ibara rya kaki n'umuhondo.

Icyumba cy'uruganiriro cyicayemo abagore batatu bateruye abana mu biganza bambaye ibitenge biri mu ibara risa n'icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umweru n'umutuku, imbere yabo hari umugore uri kubaganiriza w'imisatsi y'umukara uteretse igikoresho cy'ikoranabuhanga ku meza asa ikigina, inyuma yabo hari igikoresho cyagenewe mu gikoni.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bari mu nyubako bishimye, bambaye indorerwamo mu maso n'imyenda iri mu ibara ry'iroza, idoma, umweru, umukara, umuhondo, icyatsi kibisi ndetse na kaki, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti ntoya y'umweru, ndetse n'ifoto iri ku rukuta.

Abantu batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe z'ubururu ndetse n'ikigina, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, imbere yaho hari ameza ariho ibitambaro ndetse n'umugore uri hagati yabo urimo kubaganiriza.

Umugore w'imisatsi miremire uri guseka wifashe amaboko wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, inyuma ye hari icyapa kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti ntoya y'umweru.

Abantu batandukanye biganjemo abagore n'abagabo ndetse n'ingabo zambaye imyenda, yo mu ibara ry'umukara, umutuku, umweru ndetse n'ikigina. Bahagaze kuri ku madarage, inyuma yabo hari icyapa, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umukara.

Abantu batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe z'ibara ry'umutuku, umwe afite icyuma kirangurura amajwi mu ntoki, bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, ubururu, icyatsi kibisi kijimye ndetse n'umukara. Imbere yabo hari mudasobwa n'amazi ari mu icupa.

Abagore n'abagabo batandukanye harimo abacunga umutekano bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara umweru umuhondo ndetse n icyatsi kibisi inyuma yaho hari ibyapa biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda kacyiru ndetse nandi yanditse mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru ari mu ibara ry'umweru.

Umugore wicaye ku ntebe y'ikigina, wambaye igitambaro mu mutwe n'imyenda iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, umutuku ndetse n'umukara. Iruhande rwe hari urukuta rushushanyijeho ururabo ruri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Uhetse umwana n'undi ku ruhande w'imisatsi y'umukara wambaye ibitenge birimo ibara ry'ubururu, ubururu bwerurutse n'ubwijimye, ndetse n'iroza, yambaye akarindamunwa ari guteka ibifungurwa.

Umwana w'igikara ufite imisatsi wambaye umupira, wifashe mu maso, wicaye, inyuma ye hari urukuta rusa n'ikigina ruriho amashusho atandukanye. Ndetse no ku ruhande rwe hari urukuta rusa n'ikigina.

Abagore babiri bicaye ku gatebe b'imisasti y'umukara umwe, wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umweru wipfunse igitambaro ku munwa undi afite igikoresho cya bugenewe cy'ikoranabuhanga, mu biganza ndetse n'ibitabo mu ntoki inyuma yaho hari inkwi.

Umusaza w'indorerwamo mu maso n'imisatsi y'umweru wambaye agapira kiganjemo ibara ry'ivutse, udukoresho twabugenewe mu biganza imbere ye hari indorerwamo irimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bucutse, mbere hari ubukarabiro bwabugenewe buriho imiti ndetse n'ibikoresho byo koza amenyo.

Imisatsi y'umukara n'ingohe n'imiringa ku matwi y'umweru n'amenyo wasamye. impande ye hari umuganga wambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu n'icyatsi kibisi n'uturindantoki uri gukoresha ibikoresho twabugenewe mu kanwa k'uwo.

Abagabo babiri, umwe wicaye w'imyenda isa n'icyatsi kibisi wasamye, undi na we w'akarindamunwa ndetse n'ishati y'umweru urimo kumureba mu kanwa. Inyuma yaho hari ibitambaro birimo amabara y'ikigina ndetse n'umukara, hirya yaho inyuma y'ikirahure hari ubusitani bw'icyatsi kibisi.

Umwana w'umunyamahanga uri guseka w'amenyo y'umweru, impande ye hari ibiganza bibiri byambaye uturindantoki dufite utuma twabugenewe turi mu kanwa k'umwana uryamye ku gitanda.

Abana bari koza amenyo n'igikoresho cyabugenewe bafite ibikombe by'amazi mu biganza, biri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'amashati ya makarokaro, inyuma yaho hari ibara ry'icyatsi kibisi n'umuhondo bitagaragara neza.

Umuntu wambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu n'uturinda ntoki ufite umwana uriguseka, wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, wasamuye umunwa. Mu ntoki afite utwuma twabugenewe two gukoresha mu kanwa.

Umugabo w'imisatsi y'umukara uri guseka, wambaye agapira k'umweru n'amenyo y'umweru uri kwireba mu ndorerwamo, inyuma ye hari urukuta rurimo amabara y'umweru, umukara n'ikigina,...

Umugore w'imisatsi y'umukara n'amenyo n'igitambaro mu maso ufite igikoresho cyo koza amenyo gisa n'ubururu ni umweru wambaye imyenda irimo ibara ry'umweru inyuma ye hari igikuta gisa ni umweru.

Umokobwa ufite igitambaro mu mutwe cy'umweru n'amanyo wasamye n'agakoresho kabugenewe mu kanwa, inyuma ye hari urukuta rw'ubururu ndetse n'ikigina n'umweru.

Ibikoresho bitandukanye, biri mu cyumba cyo kwa muganga bya kijyambere, biri mu mabara y'umutuku, umweru, umukara, inyuma yayo hari ububiko bw'umweru, ndetse no hejuru umukara, hirya hari mudasobwa nini, iriho amashusho, atagaragara.

Umwana ufite ishinya y'umukara n'amenyo y'umweru, wambaye ishati y'umweru, ufite igikoresho cyabugenewe cyo koza amenyo, kiriho ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, bigaragara nkaho yishimye.

Umugore uri guseka ufite amenyo y'umweru n'imisatsi y'umukara, intoki ze ebyiri ziri kureba ku munwa w'iwe, ari kugaragaza ko yishimye kandi cyane bimunejeje.

Umugabo uri guseka w'ubwanwa bw'umukara n'amenyo y'umweru n'agapira, ufite akagozi kabugenewe ko gucisha mu menyo mu biganza, inyuma ye hari ishusho iri mu ibara ry'umweru ndetse n'aka n'ikigina.

Mugore uryamye w'imisatsi y'umukara wasamuye umunwa urimo igikoresho cyabugenewe cyo kwa muganga, inyuma ye hari abagabo babiri bambaye indorerwamo ndetse n'uturindantoki n'umunwa, bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara, iruhande rwabo hari ibara ry'icyatsi.

Umugabo w'imisatsi y'umukara n'agapira, wasamye n'amenyo y'umweru n'amaso aturumbuye uri kwikora ku menyo, inyuma ye hari umunyamahanga wambaye uturindantoki dusa n'ubururu, ufite igikoresho cyabugenewe cyo gukoza mu kanwa.

Umukobwa uri guseka ufite imisatsi y'umukara ndetse n'indorerwamo mu ntoki yambaye ikote ry'umweru, inyuma ye hari ubwiherero busa n'umweru ndetse n'igikombe.

Umugore w'imisatsi y'umukara uryamye iruhande rwe hari abagabo babiri bambaye indorerwamo n'imyenda iri mu ibara ry'umweru ndetse, n'ubururu n'umukara bafite udukoresho, twagenewe two kwa muganga two kureba mu menyo, inyuma yabo hari urukuta ruri mu ibara ry'ikigina, ndetse hasi hari umukara.

Umugabo w'amenyo y'umweru n'ishinya y'umutuku uri guseka n'imisatsi y'umukara, wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyijimye afite agakoresho kari gafite utwinyo tw'umweru ari kugatunga urutoki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byabugenewe n'umugabo wicaye wambaye isaha ku kuboko n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara barigukora ku gikoresho bigiraho igihe barimo baravura abarwayi kigaragaza amenyo yo mu kanwa.

Umugore w'igikara wasamye n'undi w'umunyamahanga wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu n'akarindamuwa ufite utwuma twabugenewe mu kugenzura amenyo, inyuma yabo hari ibikoresho byo kwa muganga bitagaragara.

Ibiganza byambaye udukoresho tw'isuku tw'umweru n'akayiko mu kanwa k'umwana ufite imisatsi y'umukara n'imiringa ku matwi, wambaye agapira k'umuhondo.

Icyumba cyo kuganiriramo kirimo umugore, n'umwana b'imisatsi y'umukara bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara udobaguye, imbere yabo hari imikino, bari gukina ku meza inyuma yabo hari igikoresho kiriho mudasobwa.

Umukecuru n'umusaza bishimye b'imisatsi y'umweru, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, ikigina ndetse n'idoma. Imbere yabo hari ameza ateretseho ibiribwa bitandukanye harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara, biri mu mabara y'icyatsi, ikigina, umuhondo ndetse imbere yabo hari amazi mu kirahure.

Icyumba cy'uruganiriro cyicayemo ababyeyi n'abana bishimye b'imisatsi y'umukara, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, ubururu, icyatsi kibisi, ndetse n'umweru. Inyuma yabo hari ibihingwa by'amababi y'icyatsi kibisi.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo abantu batatu b'imisatsi y'umukara n'umweru bari guseka, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku, umweru, umukara ndetse n'iciyemo imirongo, bicaye ku ntebe imbere yabo hari udupapuro bafite mu biganza, ndetse inyuma hari urukuta rw'umweru.

Umukecuru uri guseka w'imisatsi y'umweru wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, ikigina ndetse n'umutuku, ufite utwuma twabigenewe mu mikino ngororamubiri tw'icyatsi kibisi, inyuma ye hari inyubako ndende itagaragara.

Wicaye mu busitani umwe uteruye umwana n'abandi, bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse n'ubururu bwijimye, umutuku, iroza ndetse n'umukara, umwe ari kuboha inkangara, inyuma yabo hari inkubako ndetse n'ibiti bihateye.

Satsi y'umukara n'amenyo y'umweru uri guseka wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, imbere ye hateretse ibintu bitandukanye ndetse n'ishusho y'umuntu utari kugaragara wambaye imyenda y'umweru, inyuma ye hari ibiti bisa n'icyatsi kibisi.

umucyecuru n'umusaza bari guseka bimisatsi y'umweru bambaye imyenda y'ubururu bwerurutse ndetse n'umutuku, imbere yabo hari imukino bari gukina ku meza, inyuma yaho hari igitambaro cy'umweru kiri ku kirahure.

Umukecuru n'umusaza w'imisatsi y'umweru n'umukara, bicaye ku meza ariho ibiribwa bitandukanye by'icyatsi kibisi n'umuhondo, hateretseho n'ikirahuri cy'umweru, bambaye imyenda iri mu ibara ry'idoma, umweru ndetse n'ubururu bwerurutse. Inyuma yaho hari urukuta rw'umweru.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara n'umukandara mu nda, inyuma hari umukobwa ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, ari kumufasha gufata ku kuma.

Umusaza w'imisatsi y'umweru n'ubwana n'indorerwamu mu maso wambaye imyenda wicaye ku gatebe, warambuye ibiganza wafunze ibipfutsi, imbere ye hari abanyamahanga bahahagaze babiri bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bafite agatambaro k'umuhondo mu biganza.

Umusaza w'ubwanwa bw'umweru ndetse n'imvi, n'umukobwa uhagaze wambaye imyenda iri mu ibara rya kaki ndetse n'umweru. Imbere yabo hateretse imbuto ziri mu moko atandukanye ziri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo, ndetse n'umutobe uri gusukwa mu kirahure.

Umugabo w'imvi z'umweru n'ubwanwa wambaye indorerwamo mu maso wifashe Ku munwa, n'ishati, imbere hari igitabo kirimo amabara y'umukara n'amagambo atagaragara, inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

umucyecuru wambaye indorerwamo umusatsi w'umweru, n' umusaza bicaye imbere yaho hari mudasombwa ndetse nimiti irimudukombe tw'umweru nibitabo, bambaye imyenda irimo ibara ry' umweru, umutuku ndetse n' ubururu, inyuma yaho hari akabati karimo ibikoresho byo mugikoni

Umukecuru w'igikara ufite icyuma kirangurura amajwi cyo mu ibara ry'umutuku, yambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umweru n'urunigi mu ijosi, inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'ibinyabuziga n'inyubako.

Ihuriro ry'abantu bari kugenda mu muhanda, biganjemo ababyeyi, abakecuru ndetse n'urubyiruko, bambaye imyenda iriho ibara ry'umweru, umukara, ndetse n'umuhondo n'umutuku, inyuma yabo hari urutoki ndetse n'inyubako.

Ababyeyi bishimye, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku, umuhondo, ubururu, umukara, ikigina ndetse n'umweru, bari mu murima basarura icyayi, inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyumba cyicayemo umukecuru n'umusaza w'imisatsi y'umweru n'ubwanwa bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ishati iciyemo imirongo, imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahure cy'amazi n'inyuma hari ububiko buriho amashusho butagaragara.

Umuhanda urimo abagore babiri umwe afite igikapu mu ntoki undi afite akuma kabugenewe k'abarwayi, yambaye ingofero n'imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, ikigina, ubururu bucuyutse n'ubururu bwijimye, ndetse ku ruhande rwabo hari ibyatsi bihateye.

Ameza ariho amafunguro atandukanye, harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara, hicaye abantu babiri batandukanye b'imisatsi y'umweru n'umukara, bambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku, umweru, umukara ndetse n'ubururu bwijimye, inyuma yabo hari akabati ndetse n'amatara.

Umuryango urimo abantu bishimye abana, umugore ndetse n'umusaza n'umucyecuru w'imisatsi y'umweru, umukara, n'amenyo y'umweru n'indorerwamo mu maso, bambaye imyenda iganje mu ibara ry'ubururu na karokaro, umweru, ubururu bwerurutse ndetse n'icyatsi kibisi kivanze. Inyuma yabo hari ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, n'ibihingwa inyuma.

Wicaye ku kagare k'umukara w'imisatsi y'umweru, n'indorerwamo mu maso uri guseka, wambaye imyenda irimo ibara ry'ikigina n'umukara, inyuma ye hari umukobwa, ndetse n'ubusitani busa n'icyatsi kibisi, n'umuhanda inyuma yabo.

Umukecuru w'imvi n'imisatsi y'umukara wambaye ikanzu yo mu gitenge, iri mu ibara ry'umuhondo n'umukara n'uturongongo tw'umweru, imbere ye hari umugore wambaye akarindamunwa k'ubururu w'imisatsi n'imyenda isa n'idoma, wambaye uturindantoki uri kumuha ubutabazi bw'ibanze, inyuma yabo hari ubusitani n'ibiti bishishe.

Umusaza w'imisatsi y'umweru, iruhande rwe hari abantu babiri biganjemo abanyamahanga, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo. Inyuma yabo hari igitanda kiriho imyenda y'umweru n'inyuma hari urukuta ruriho igitambaro gisa n'icyatsi kibisi.

Umukecuru n'umukobwa bafite imisatsi y'imyeru n'umukara, bari guseka, bicaye, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru isa icyatsi kibisi, inyuma yaho hari ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga.

Umugabo w'imisatsi y'umweru n'amenyo n'umugabo bari guseka, bari mu mikino ngororamubiri, bambaye ibiringa ku maboko ndetse n'isaha n'imyenda iri mu ibara ry'ikigina ndetse n'umukara, inyuma yabo hari ishusho ritagaragara.

Umukecuru wishimye, n'imisatsi irimo imvi ndetse n'umukara n'amanyo y'umweru, wambaye utuntu ku maboko ndetse n'imyenda irimo ibara ry'ikigina, umweru ndetse n'umuhondo, bari mu mikino ngororamubiri inyuma yabo hari ishusho itari kugaragara.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, bicaye, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, umukara, umweru, icyatsi kibisi, oranje ndetse n'umuhondo. Hejuru yabo hari ikibakingirije izuba, ku ruhande hari ibiti bihateye.

Umukecuru n'umusaza b'amenyo y'umweru n'imisatsi n'indorerwamo mu maso, bicaye ku ntebe y'ikigina, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse na kaki, imbere yabo hari ameza ariho imikino ibafasha kuruhura ubwonko.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umusaza w'ubwanwa bw'umweru ufashe ku kuma kamufasha mu gutambuka, n'umugore wambaye imyenda y'ubururu n'umweru uri kumufasha, impande zabo hari ububiko busa n'umweru ndetse n'ikigina, n'icyatsi cyihateretse mu bubiko.

Icyapa cy'umukara cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, amwe ni umweru, iruhande rw'aho hari igishushanyo cy'umugore, hirya y'aho hari inyubako nyinshi zitandukanye.

Ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga byo gupima abarwayi biri mu ibara ry'umuweru ndetse n'icyatsi kibisi, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'inyuguti nkuru y'icyongereza, mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Ababyeyi bicaye bari guseka bateruye abana mu biganza, bambaye imyenda yiganje mu ibara ry'umuhondo, umukara, ikigina ndetse n'umweru, inyuma yabo hari ibyapa byanditse mu magambo y'umweru mu nyuguti nkuru.

Abantu bicaye higanjemo abagabo bambaye kositime inyuma yabo hari abandi bahagaze biganjemo umweru ndetse n'umuhondo impande yaho hari amagambo yanditse ku cyapa cy'ubururu ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umweru.

Icyapa cyiriho abantu batandukanye b'abanyamahanga bambaye imyenda iri mu ibara ry'ikigina, umukara, umweru ndetse n'icyatsi cyibisi n'ubururu. Haruguru yaho hari amagambo ari mu ibara ry'ubururu yanditse n'umweru mu nyuguti nkuru z'icyongereza, hirya na ho hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umuhondo.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bari mu muhanda bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, ubururu n'umukara, bafite ibyapa mu ntoki byanditseho amagambo yo mu rurimi rw'ikinyarwanda, twirinde kanseri y'ibere, twisuzumishe hakiri kare nkuko indwara igacika. Ari mu ibara ry'umweru,...

Umukobwa uri guseka wicaye ku ntebe y'ikigina, wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara ndetse n'ikigina, ufite icyuma kirangurura amajwi mu ntoki, inyuma ye hari igikuta kiriho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza yanditse mu nyuguti ntoya.

Umugabo uhagaze imbere wambaye imyenda iri mu ibara ry'ikigina, ufite icyuma kirangurura amajwi. Inyuma ye hari icyapa cy'ikigina cyanditseho amagambo y'umweru, yo mu cyapa ari mu ibara ry'umweru. Iruhande rwe hari ifoto iri mu ibara ry'umutuku.

Umugore n'umugabo w'umunyamahanga bahagaze imbere y'icyapa kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya mu ibara ry'umweru, icyatsi kibisi n'umukara, hirya yaho hari urukuta rw'ikigina ndetse n'umukara wa kare.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara risa n'umweru, ndetse n'ubururu, na karuvati, ruguru yaho hari umugabo wambaye imyenda ya kaki n'umusatsi w'umukara uri kubaganiriza, hirya hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru, n'andi mu rurimi rw'ikinyarwanda, Rwanda mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'umweru.

Umukobwa w'imisatsi y'umukara n'amasoko y'umweru wambaye ishati y'idoma, ari ku gitabo inyuma, handitseho amagambo ari mu nyuguti nkuru yo mu rurimi rw'icyongereza, n'andi ari mu nyuguti ntoya mu rurimi rw'icyongereza asa n'umutuku, ndetse n'andi y'umukara.

Ameza ariho utwuma two gusuzuma abarwayi twiganje mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, iruhande rwaho hari impapuro ziri mu ibara ry'umukara, amwe yanditse mu cyapa andi yanditse mu nyuguti ntoya mu rurimi rw'icyongereza.

Umugore w'imisatsi y'umukara n'indorerwamo ku maso, w'ishati y'ubururu bwerurutse, imbere ye hari utwuma turangurura amajwi, hejuru ye hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru, hasi hari n'andi yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda; Kagame, n'andi yanditse mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti ntoya.

Urukuta rw'ubururu rurimo hagati ibara ry'umuhondo, ryanditseho amagambo ari mu nyuguti nkuru, yanditse mu cyongereza asa n'umweru.

Umugabo ufite imisatsi y'umweru wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu n'iry'umweru, inyuma ye hari urukuta ruriho amagambo y'umweru yanditse mu nyuguti nkuru.

Icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yanditse mu nyuguti ntoya no mu nyuguti nkuru mu rurimi rw'Icyongereza, asa n'umukara ndetse n'ubururu, hariho itara ry'umuhondo hasi yaho hari ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, ubururu, umukara ndetse n'iya gisirikare, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda y'umweru.

Abantu bicaye higanjemo abagore n'abagabo bambaye imyenda y'umukara ndetse n'ubururu n'ibitenge, inyuma yabo hari abandi bahagaze, iruhande rwabo hari urukuta rw'icyatsi kibisi rurimo amabara y'umweru ndetse n'amabara y'icyatsi kibisi ari m'umweru.

Abana bicaye ku ntebe n'abandi babyeyi bahagaze bambaye imyenda irimo ibara ry'iroze, umukara ndetse n'umweru n'ibitenge, bambaye uturindamunwa tw'ubururu n'umukara bari guha imfashanyo abana ziteretse ku meza mu ibara ry'ubururu inyuma yaho hari ikirango cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru mu ibara ry'iroza ndetse n'ubururu.

Abantu bahagaze biganjemo abera, bambaye imyenda iri mu ry'umweru, umukara, ubururu, icyatsi kibisi n'icyatsi cyijimye bahagaze, inyuma yabo hari ibyapa byanditseho amagambo ari mu rurimi ry'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya, mu ibara risa n'iroza ndetse n'umuhondo n'umweru.

Abagabo bambaye amakoti, n'abagore bahagaze bifashe ku maboko, n'imyenda iri mu ibara risa n'umuhondo, ubururu, umukara, ndetse na karuvati n'umutuku. Inyuma yaho hari ibara ry'ubururu ririho ibirango bizengurutse, byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti ntoya, asa n'umweru.

Icyapa kiriho uruziga rurimo ibintu bitandukanye hamwe hariho umusaza ufite inkoni, ahandi umugore n'umugabo ahandi abandi bambaye udupfukamunwa ndetse n'undi ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga, n'undi uri gukaraba mu ntoki amazi, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza mu mabara y'umukara hejuru na ho hari ibara ry'umuhondo ryanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byo kwa muganga, kiryamyemo umugabo wambaye akarindamuwa n'imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse n'ikigina, impande ye hari utwuma turi ku kaboko k'iwe.

Umugore uri hanze y'inyubako uhetse umwana wambaye akagofero k'iroza ndetse n'igitambaro cy'umweru kirimo n'ubururu, imbere ye hari inyubako iriho icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda mu nyuguti nkuru.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, mudasobwa, intebe ndetse n'ameza n'ibitanda by'abarwayi, hagati harimo abantu bahagaze bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru n'ubururu, inyuma yabo hari amatara ndetse n'urukuta rubakingirije.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, ibitanda, ameza, ububiko ndetse n'iby'abaganga biri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, inyuma yayo hari ibitambaro bigiye birambuye mu mpande zose.

Inyubako iriho amabara atandukanye y'umuhondo n'umweru n'amatafari n'ibirahuri by'umweru, hagati hayo hicaye abagore batandukanye bambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse n'umukara n'umweru, iruhande rwabo hari ubusitani bw'ibara ry'icyatsi kibisi n'umuhondo.

Umugore uryamye, ku gitanda kiriho amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi kerurutse, iruhande rwe hari ibikoresho bya bugenewe byo mu ivuriro ndetse na mudasobwa, ku ruhande rwaho hari amadirishya y'umweru ndetse n'ibikoresho by'akabati.

Inyubako yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari ubusitani buri impande zombi, burimo indabo zitandukanye ndetse n'ibirahure by'umweru ku nzugi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo umugore uryamye ku gitanda cy'umweru, wambaye ibitenge birimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, hejuru ye hari umugore wambaye indorerwamo n'imyenda y'umweru, n'uturindantoki, uri kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, intebe, ameza, ndetse n'aho kwakirira abantu, biri mu ibara ry'umweru, ubururu, umukara, ndetse n'ikigina. Hejuru yaho hari ibirahuri by'umweru, ndetse n'ibiti birambuye bisa na kaki.

Inyubako irimo akabati karimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, hamwe harimo imiti itandukanye iri mu mabara higanjemo ubururu, umutuku, yanditseho amagambo rwo mu rurimi rw'icyongereza asa n'umweru n'umukara.

Abagabo babiri bicaye, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru n'ishati, amakarokaro, umwe yambaye indorerwamo, mu maso inyuma ye hari ibikoresho bya bugenewe byo kuzimya umuriro ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo yo mu rurimi ry'Ikinyarwanda; irembo, ari mu nyuguti ntoya y'ubururu.

Inyubako iriho amabati y'ubururu ndetse n'ibirahuri by'umweru n'amatafari, inyuma yayo hari ibyapa byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda y'ubururu, aho bavurira amaso Gihundwe, n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti ngufi, imbere yaho hari ubusitani.

Abantu bari mu muhanda urimo abacunga umutekano bambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku n'umweru, inyuma yabo hari ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'inyubako n'icyapa ndetse ku mpande hari n'ibyapa byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti ntoya y'umweru ari ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyumba cyo Kwa muganga kirimo abagabo babiri, bambaye imyenda y'umweru n'uturindamunwa tw'ubururu bwerurutse, imbere yaho hari mudasobwa irimo ibintu bitandukanye, ndetse n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga. Inyuma yabo hari urukuta rw'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bakoresha ku barwayi, harimo mudasobwa ndetse n'imiti, ku ruhande hari umugabo wambaye akarindamunwa k'umukara n'ishati y'umweru, inyuma ye hari ububiko busa n'ubururu.

Kwa muganga irimo abantu bayikoramo batandukanye bambaye imyenda iri mu ibara y'ubururu, umweru, ubururu bwijimye, harimo n'ibikoresho bitandukanye biri mu ibara ry'umweru n'ubururu bari kuganiriza abantu. Inyuma yaho hari ibikuta bisa n'umweru ndetse n'ikigina.

Inyubako zitandukanye, zifite amabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, hagati hari ubusitani buteyemo indabo, riri mu ibara ry'umuhondo, icyatsi kibisi, ndetse n'umutuku, bicayemo abantu.

Inyubako irimo ibintu bitandukanye. Inzugi zisa n'umutuku, urukuta rusa n'umweru ndetse n'umukara, iruhande rwaho hari ameza ari mu ibara ry'ubururu, hejuru yaho hari icyapa.

Igikoresho cyo kwa muganga, gikoreshwa n'abarwayi bagiye kurebamo indwara, iruhande rw'aho hari mudasobwa iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, inyuma yabo hari urukuta ruri mu ibara ry'umweru ndetse n'amashusho ari ku ruhande.

Inyubako iriho amatafari ahiye iriho ibyapa bitandukanye byanditse mu rurimi rw'igifaransa, mu ibara risa n'icyatsi kibisi kijimye n'andi ari mu ibara ry'umukara mu nyuguti ntoya, imbere yaho hari ibinyabiziga bihari by'umukara, ku ruhande hari ibiti by'icyatsi kibisi.

Inyubako y'igorofa rirerire iriho ibicupa biteyemo, indabo z'icyatsi kibisi n'icyapa kiri mu rubavu cyanditseho amagambo ari mu rurimi, rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru no mu Kinyarwanda, Remera yanditse mu ibara ry'umweru hasi hari ikinyabiziga kihahagaze cy'ibara ry'ubururu n'umukara.

Abantu batandukanye bari mu muhanda, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku, ikigina n'umukara. Iruhande rwabo hari uruzitiro rw'inyubako yanditseho amagambo y'ururimi rw'ikinyarwanda, ibitaro bya Ruhengeri ndetse n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza yanditse mu ibara ry'ubururu, hagati muri urwo ruzitiro harimo ubusitani.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byiganje mu mabara: ubururu bwijimye, umutuku, ubururu bwererutse, umweru ndetse na mudasobwa ziri ku ruhande zitandukanye. Ibikoresho bikoreshwa harimo ibitanda biriho matela bakoresha igihe yagiye kwibaruka.

Inyubako iriho icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda cyanditseho amagambo arimo ibara ry'umukara ndetse n'umutuku hamwe n'inyuguti nkuru ahandi ni inyuguti ntoya, hasi hari ibinyabiziga biri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru kiri kugaragaza yuko ari ku ivuriro.

Icyumba cy'inama kirimo intebe zigiye zikurikiranye ku murongo ziri mu ibara ry'umukara, imbere yaho hari ameza y'ikigina hagati hari ikintu cyihateretse kiri mu ibara ry'umweru ndetse inyuma hari urukuta rw'umuhondo.

Inyubako ifite amabati y'ikigina. Imbere y'inyubako hari umuhanda ndetse na jaride irimo indabo irimo icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nkuru n'intoya mu ibara ry'umweru.

Abantu batandukanye hari umugore uhagaze w'umwenda w'umweru n'umukara ndetse n'umugabo wicaye ku kagare k'igikara akaba afite ubumuga, usunitswe n'umwana inyuma ye. Imbere ye hari shitingi iriho ibara risa n'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, intebe, ameza, mudasobwa nini n'intoya ndetse n'ububiko busa n'ikigina, inyuma yaho hari ibirahuri by'umweru ndetse n'ifoto iri ku ruhande itagaragara neza.

Abagore bane n'umugabo umwe, bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, umweru, umukara, ndetse n'ikigina. Hejuru yabo hari inyubako yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ,yanditse mu nyuguti nkuru n'intoya, mu ibara ry'ubururu butsitse ndetse n'icyatsi kibisi, n'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye n'ibitanda kiryamyeho umuntu wiyoroshe igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu bwerurutse ruguru ye hahagaze, umugabo wambaye imyenda y'ubururu butsitse ndetse n'umukara uri kubazingira umusegiteri, ku gikuta hari ibara rya kaki ndetse n'ibindi bikoresho bihazengurutse.

Inyubako ndende iriho amabati y'ubururu n'urukuta ndetse n'ibirahure by'umweru. Hasi yayo hari abagabo batatu bahagaze bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara. Ku ruhande hari ikinyabiziga ndetse n'ubusitani buhari.

Umugore uri guseka wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu n'undi uteruye uruhinja ruri kurira imbere ye hari uhagaze uri guha urukingo urwo ruhinja.

Inyubako ndende iriho amatafari ahiye ndetse n'inzugi n'ibirahure by'umweru uriho icyapa cyanditseho amagambo ari m'ururimi rw'icyogereza mu nyuguti ntoya y'umukara iruhande rwaho hari m'ubusitani.

Inyubako yo kwa muganaga irimo ibikoresho bitandukanye byiganje mu mabara y'umukara, ubururu bwererutse ndetse n'umweru, bikoresha n'abarwayi ndetse n'abaganga, iruhande rwaho hari mudasobwa igenzura abarwayi uko bahagaze, ndetse n'ibindi bikoresho biri ruguru.

Abantu batandukanye bari hanze y'inyubako, bambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu, umweru, ikigina, umukara ndetse n'icyatsi kibisi. Inyuma yabo hari inyubako yanditseho amagambo yo mu rurimi rw'ikinyarwanda "Inzu y'ababyeyi"yubatswe n'ubufatanye ndetse n'andi ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda by'umweru ndetse na matela zisa n'icyatsi kibisi, n'ibikoresho byabugenewe, iruhande hari ibitambaro bigiye birambuye kuri buri gitanda. Ndetse n'igikuta cy'umweru.

Icyumba kirimo intebe bigaragara nkaho ari ishuri, hicayemo umuntu ufite mudasobwa izengurutswe n'utubara tw'umukara, imbere ku gikuta hariho ikibaho gisa umweru.

Abagore babiri b'imisatsi y'umukara n'undi w'indorerwamo mu maso bateruye uruhinja mu ntoki. Bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru n'ubururu. Inyuma yaho hari urugi rw'ikigina ndetse no ku ruhande hari ikirahure cy'umweru.

Inyubako iri mu ivuriro iriho ibikoresho bitandukanye, ku rukuta hariho ibara ry'icyatsi kibisi kerurutse, handitseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti ntoya asa n'umweru.

Icyumba cy'ishuri kirimo umugabo ndetse n'umunyamahanga bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, ndetse na kaki, n'umutuku. Imbere yabo hari umwana wambaye impuzankano isa n'icyatsi kibisi ufite igikoresho mu biganza byiwe, inyuma hari ikibaho cyo kwandikaho.

Inzu yo kwa muganga ririmo ibikoresho bitandukanye by'abarwayi byiganje mu ibara ry'umukara kaki, umweru, ndetse n'icyatsi kibisi, hejuru haho hari ikindi cyabugenewe ku barwayi ndetse n'igitanda kiriho matera na mudasobwa ziri ku ruhande.

Inyubako ndende irimo ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, imbere yaho hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'icyongereza mu nyuguti nkuru, Nyarugenge harimo ibara ry'umweru, imbere yaho hari inzira yo kugendamo, inyuma yaho harimo ubusitani by'icyatsi kibisi.

Ibitanda by'umweru by'abarwayi biri kwamuganga, hejuru hariho supanete z'umweru, ku hunde hari amarido asa n'ubururu, ndetse hirya gato hari urugi ruriho ibara ry'umukara, ruriho inyuguti zanditse mu cyongereza mw'ibara risa n'icyatsi kibisi.

Inyubako ndende iriho amagorofa atandukanye, hagati hari icyuma gihari kiriho ikirango kiriho ibara ry'ubururu, umukara, umuhondo, ndetse n'umutuku, inyuma hari uruzitiro rw'ubururu ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'ikinyarwanda kwa Nyirinkwaya, mu nyuguti nkuru n'intoya, mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye by'abarwayi ndetse n'intebe zo kwicaraho biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Iruhande rwaho hari ishusho ririmo ibinyabuzima bitandukanye, utunyamasyo, amafi ndetse n'ibimera biri mu mabara y'umutuku n'icyatsi kibisi.

Inyubako y'amabati y'umutuku ndetse n'ubururu. Yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda Isange n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza, yanditse mu nyuguti nkuru ari mu ibara ry'umukara, ifite urukuta rw'umweru, imbere hari ubusitani burimo indabo z'umuhondo.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye byo gukina harimo amagare n'ukoresha twabana ndetse n'imipira yo gukina ayo matera irambitse hasi mu ibara risa n'umutuku, umuhondo, ubururu, icyatsi kibisi. Inyuma yaho hari indi nyubako ndende ndetse na jaride imbere.

Inyubako y'ibirahure by'umweru irimo ibikoresho bitandukanye by'imikino ngororamubiri, ifite irangi ry'umweru ndetse biri mu ibara ry'umukara, hasi hari sima y'umukara.

Abagore batandukanye b'imisatsi y'umukara miremire, biganjemo abanyamahanga bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'ikigina n'ameza. Imbere yabo, inyuma yaho hari mudasobwa zanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti ntoya.

Abagabo batatu bahagaze impande y'ikinyabiziga bambaye amakote atandukanye, ruguru yabo hari inyubako ndende iriho ibirahure bisa n'ubururu ndetse n'ibikuta rusa n'umweru, imbere yaho hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'ubururu kiri aho kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya.

Ibitanda byo kwa muganga biriho amabara y'ubururu n'umweru na matera y'ubururu, biri mu nyubako ifite amarangi y'umweru, ku ruhande rwaho hari ibikoresho byo kubikamo imyenda ndetse hejuru yaho hari utwuma dukoreshwa n'abaganga ku barwayi.

Umugabo w'imyenda y'ubururu n'umukara wicaye ku madarage, inyuma ye hari igiti kinini cyane cy'amashami y'icyatsi kibisi, ku ruhande rwe hari ubusitani ndetse hirya ye hari inyubako itari kugaragara neza.

Icyumba kirimo intebe zitandukanye zirimo imisego ndetse n'izindi z'ubururu zo kwicaraho, inyuma yayo hari jaride ntoya irimo indabo z'icyatsi kibisi ndetse n'urukuta rw'umweru, n'ibirahure by'umweru bifunguye.

Inyubako yo kwa muganga. Iriho amabara atandukanye. Hariho inyuguti zanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda mu ibara ry'ubururu, inzu y'ababyeyi, ndetse n'andi yanditse mu rurimi rw'icyongereza. Iruhande rwaho hari ubusitani ndetse n'ibiti birebire ndetse n'imbuga yo guparikaho ibinyabiziga.

Abantu biganjemo abanyamahanga bahagaze inyuma y'inyubako yanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Ikinyarwanda Rwamagana, n'andi mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru mu ibara risa n'icyatsi kibisi cyijimye, abantu bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, umutuku, umweru, ikigina ndetse n'icyatsi kibisi ,imbere yabo hari insina.

Inyubako ndende ifite amabara atandukanye ay'ikigina ndetse n'umweru n'ibirahure, hariho icyapa cyanditseho amagambo y'ururimi rw'Ikinyarwanda inzu y'ababyeyi n'impinja yanditse mu nyuguti nkuru mu ibara ry'icyatsi kibisi, ku ruhande hari umubyeyi wifashe ku nda n'umwana.

Inyubako yo kwa muganga ikorerwamo ubushakashatsi, irimo ibikoresho bitandukanye, mudasobwa, intebe zo kwicaramo ndetse n'ibyumba bitandukanye, iriho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza yanditse mu nyuguti ntoya, ifite ibirahuri n'imiryango y'umweru.

Inyubako ibyeri zitandukanye imwe ikoze nk'uruziga iri mu ibara, ry'ikigina ndetse n'ibirahure by'umweru n'amatafari, imbere yaho hari ubusitani burimo indabo z'icyatsi kibisi ndetse n'iz'ibara ry'umutuku, ruguru yaho hari umuhanda wo kunyuramo.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byo gusuzuma, abarwayi n'igitanda kiganje mu ibara ry'icyatsi kibisi cy'abagore, bajyaho bagiye kubyara, inyuma yaho hari urukuta rw'umweru, ndetse n'idirishya rifite ibirahure.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye biri mu ibara ry'ubururu, umweru, umukara ndetse na mudasobwa zitandukanye ziri mu ibara ry'umukara, hejuru yaho hari amabati ariho imirongo ndetse n'inzugi ziriho ibirahure.

Umugabo wshati yicyatsi kibisi n'pantaro yumukara uhagaze imbere yinyubako iriw'i ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirahuri n'amatafari arihiye, byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda mu nyuguti nkuru asa n'umukara.

Ababyeyi babiri harimo uryamye n'uhagaze wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, inyuma ye hari akabati karimo udukarito twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza y'umweru, inyuma yaho hari igikuta cy'umweru.

Umukecuru n'umugabo bicaye bari kuganira, bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, n'igitambaro cy'umukara mu mutwe, umwe afite utwuma twabugenewe nko gusuzuma abarwayi, inyuma hari urutoki rw'icyatsi kibisi ndetse n'inyubako y'amatafari.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa ku barwayi, harimo mudasobwa, ndetse n'ibindi byo kuryamaho, hejuru yaho hari ibyuma bigiye bifite ibiti bitandukanye, ndetse n'urukuta mu mpande zombi, rusa n'umweru.

Inyubako igaragaza ko ari ikigonderabuzima cya Tabagwe, impande yaho hahagaze abantu batandukanye bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru n'ikigina, iruhande rw'aho hari ubusitani buteyemo indabo z'icyatsi ndetse n'ahantu ho kumanukira.

Inyubako ifite amabati y'ubururu yubatswe mu marange y'umweru ndetse n'amadirishya imbere yayo hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku cyanditse amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ikigo nderabuzima cya Kinyinya ari mu ibara ry'umukara imbere yaho hari ubusitani.

Umuntu wambaye imyenda y'umweru n'inkweto z'umukara, impande ye hari indobo iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, inyuma ye hari urugi ruriho ibirahure by'umukara.

Kecuru w'imisatsi y'umweru n'imyenda, uhagaze imbere y'igikoresho, cyo kwa muganga kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru gifunguye, inyuma ye hari ameza, ndetse n'urukuta ruri rujya gusa n'ubururu bwerurutse n'inzugi ziriho ibirahure.

Igitanda kiriho amashuka y'umweru, hepfo yaho hari ibara ry'ubururu, harimo mudasobwa, iruhande hari inzugi z'umweru ndetse n'ibirahure n'ururabo rurimo amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umwana uri guseka n'indororwamo mu maso wambaye ishati y'iroze n'ipantaro y'ikigina wicaye impande y'umuganga wambaye imyenda y'ubururu bwererutse imisatsi y'umukara ifite igikoresho cyabugenewe mu ntoki cyo gupima umuvuduko w'amaraso ku barwayi.

Inyubako ndende imbere yayo hari abantu batandukanye biganjemo abambaye imyenda y'umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'umukara, hirya yaho hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti ntoya y'umweru ndetse n'ubusitani burimo ibiti n'indabo.

Icyapa cy'ubururu kizengurutse cyanditseho amagambo y'ikinyarwanda Kabgayi ndetse n'andi yo mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru ari mu ibara ry'umweru. Imbere yaho hari inyubako zifite amatafari ahiye ndetse n'amabati y'umweru ndetse n'ibiti biteye hagati.

Inyubako y'amabati y'umutuku, ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa n'andi mu kinyarwanda, Gisenyi mu ibara ry'umukara, imbere irimo abantu batandukanye bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, umutuku, umukara, icyatsi kibisi, ndetse n'umuhondo, hanze yaho hari umuhanda uri kunyuramo amapikipiki ndetse n'ibyapa byanditseho amagambo yo mu kinyarwanda.

Abagore batatu bari guseka n'ingofero z'umweru mu mutwe n'imyenda y'ubururu, bahagaze imbere y'ubusitani bw'icyatsi kibisi, inyuma yabo hari umuhanda ndetse n'ibiti bihakikije.

Inyubako iriho ibirahure bisa n'ubururu hejuru hari amagambo yanditse mu nyuguti ntoya y'icyongereza, hasi hari inzugi zifite amabara ajya gusa n'ikigina, ndetse n'amatafari imbere.

Abantu batandukanye bamwe bahagaze n'undi wicaye, bambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku, umukara, umweru ndetse n'ubururu. Inyuma yabo hari inyubako yanditseho ikigo nderabuzima cya gishweru iriho amatafari ndetse n'amabati n'urukuta rw'umweru n'ibirahuri.

inyubako ndende iri mw'ibara ry'umweru, ubururu ndetse na kaki yijimye, hari ubusitani burimo indabo zicyatsi kibisi ndetse ikinyabiziga giparitse murubavu rwayo n'umuhanda uri hagati

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye biri mu ibara ry'umukara, umweru ndetse n'ikigina n'ubururu bwererutse. lnyuma yaho hari mudasobwa nini cyane irimo amashusho asa n'icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umuhondo wererutse.

Inyubako isize amarange atandukanye. Hagati yaho hari icyapa cyanditse mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intebe ku ruhande z'umutuku, ruguru hari ubusitani bw'icyatsi kibisi ndetse n'ibyapa byanditse mu rurimi rw'Icyongereza mu mabara y'umukara.

Umukobwa uri mu mikino ngororamubiri, wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse n'ikigina, n'imisatsi miremire, inyumaye hari utudobo duteretsemo indabo ziri mu bwoko butandukanye, tw'ubururu ndetse n'umukara.

Ibikapu bitatu biteretse, biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, bibiri birafunguye ,birimo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze byiganjemo imiti, umukasi, ndetse n'ibitambaro byo kwizirika ku muntu wagize ikibazo ari mu mikino ngororamubiri.

Umugabo upfukamye ku gakoresho kakene kagenewe imikino ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, ndetse n'ikigina, iruhande rwe hari intebe ihateretse inyuma ye hari igikuta cy'umweru.

Ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze biteretse hamwe mu gakapu ndetse no hasi, biri mu ibara ry'umweru, ubururu, icyatsi kibisi, umutuku ndetse n'umuhondo, byiganjemo inshinge, ibinini ndetse n'uducupa turimo umuti wo kwifuhera. Hejuru handitse amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umutuku.

Abahungu batatu bari gukina imikino ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse n'umweru hejuru no hasi, hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Bikapu bibiri bitandukanye by'amabara y'umutuku, umukara n'umweru, kimwe gifunze, ikindi gifunguye kirimo, ibyangombwa bikenerwa mu butabazi bw'ibanze imiti, ibitambaro byo kwihambiriza ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi n'ingofero mu mutwe, inyuma yaho hariho urukuta rusa n'ikigina, rwometseho ibipapuro biriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, irihande rwabo hari mudasobwa.

Umugore w'imisatsi y'umukara wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'idoma ufite icyuma cyabugenewe mu ntoki uruhande rwe hari umwana uri gusuzumwa wambaye agakote n'agapira k'umweru.

Ameza ateretseho imbuto, imboga ndetse n'ibiribwa bikomoka ku matungo biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, umutuku, umukara ndetse n'umutobe uteretse mu kirahure ku meza n'amazi ari ku ruhande ndetse n'igikoresho gikoreshwa mu mikino ngororamubiri.

Umuntu uryamye wambaye imyenda y'umweru, inyuma yiwe hari urukuta rw'ubururu, iruhande hari agasume k'ubururu kari ku rukuta rw'ikigina.

Icyapa kiriho abantu bari mu ibara ry'umukara barimo barakora ibintu bitandukanye, hejuru handitse amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umweru mo hasi andi ari mu nyuguti ntoya mu ibara ry'umukara, arimo umuhondo.

Umugore w'imisatsi miremire wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu bwererutse, ufite icupa ry'amazi ku muwa, inyuma ye hari imirasire y'izuba iri kumurika mu mazi aho ari iruhande rwe.

Igikoresho cyo kwa muganga gifite amapine ane mu mpande zose mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hejuru gifite mudasobwa irimo amashusho atandukanye ndetse n'umuntu wicaye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, ufite imisatsi y'umukara, wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ikigina, inyuma ye hari ibara ry'ubururu.

Igikapu gifite amabara y'umukara gifite ububiko bitandukanye, kirimo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze imiti ndetse n'imikasi yo kwifashisha igihe umuntu yakomeretse, iyo miti iri mu mabara atandukanye y'umutuku, umweru yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza; amwe asa n'ubururu, umukara, umutuku ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugabo w'amenyo y'umweru, wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, wifashe akaguru uri kugakanda, wicaye mu busitani bw'icyatsi kibisi.

Umukobwa wicaye usubekeranyije amaguru, wambaye imyenda iri mu ibara ry'ivu ndetse n'umukara, uri mu mikino ngororamubiri, imbere ye hateretse mudasobwa ndetse n'utwuma two gukoresha dusa n'idoma, n'icupa ry'amazi.

Abagabo babairi bicaye n'abahagaze bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku, kaki, umweru ndetse n'umukara. Bari mu cyumba k'imikino ngororamubiri, inyuma yaho hari ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze biri mu mabara y'umweru, umukara ndetse na kake.

umuntu wambaye ishati yumweru n'utwuma two kwamuganga dupimako umutima utera neza na karuvati mwijosi, ufite igikoresho cyabugenewe muri mumukino ngorora mubiri, inyuma ye hari igikuta cy'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda w'umukara, impande yaho hari ibiti bisa n'icyatsi kibisi, kiganjemo bara ry'umukara ndetse n'umweru n'umutuku, inyuma yaho hari ipine kiri kugenda.

Imiti y'ubutabazi bw'ibanze, iri mu ducupa dutandukanye turi mw'ibara ry'umweru, turiho turiho amagambo yanditse mu kizeru cy'umutuku, mw'ibara ry'umutuku mu cyapa ndetse no mu nyuguti ntoya, hari mu ibara ry'umweru n'umuhondo no hasi, umuti ufasha kugabanya ububabare igihe wavunitse.

Uri guseka wicaye ku gitambaro cy'ubururu uri gukora imikino ngororamubiri, wifashe munsi y'ibirenge wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'idoma ndetse n'umuhondo. Inyuma ye hari ububiko buri mu ibara mu ibara rya kacye ndetse n'irindi ry'umweru.

Umubyeyi uteruye umwana ndetse n'umuganga bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, bafite imisatsi y'umukara, bambaye uturindamunwa, imbere yabo hari ameza hariho ibikoresho byo kwa muganga, ndetse na mudasobwa iri ku ruhande rwabo.

Igikampu kiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umutuku, kirimo ibikoresho byo kwa muganga, uducupa ndetse n'udukarito twanditsiho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu n'umukara.

Ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze biteretse ahantu hamwe biri mu bintu bitandukanye, biri mu mabara y'umuhondo, ubururu, umweru, umukara ndetse n'icyatsi kibisi, ruguru hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru.

Ikiganza gifashe icupa ry'umweru ririmo amazi rifite umufuniko w'ubururu, inyuma yaho hari ikirere kirimo ubururu ndetse n'ibicu by'umweru.

Ihuriro ry'abantu batandukanye barimo barareba imikino ngororamubiri y'amaboko, abarikina bambaye imyenda irimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, inyuma yaho hari aho bashyira uwo mupira bari gukina, ndetse hari abantu batandukanye bambaye imyenda irimo amabara umuhondo, umweru, umutuku, ubururu, inyuma yaho hari urutoki.

Umuntu wicaye ku kagare wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara ufite mu kuboko kw'ibiryo igikoresho gikoreshwa mu mikino ngororamubiri, inyuma ye hari umugabo umufashe akaboka wambaye imyenda y'umweru.

Inyubako irimo abantu batandukanye ndetse n'abanyamahanga. Harimo n'ibikoresho bitandukanye nka matera ndetse n'umukeka wo kwicaraho. Inyuma yabo hari intebe zihateretse z'ikigina ndetse n'inyuma hari amarido afite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru.

Ikiziga kirishushanyijemo abagabo babiri bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bari mu mikino y'iteramakofe, bazengurutswe n'ibara ry'umuhondo, hasi hari amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, Rwanda, n'andi ari rurimi rw'icyongereza mu nyuguti ntoya, asa n'icyatsi kibisi.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gifite imipanga ndetse mu ibara ry'umutuku gifite igikarito, kiriho umusaraba w'umweru ndetse kizengurutswe n'ibara ry'umutuku kiri hagati y'inyubako ndetse n'ibiti bitari kugaragara neza.

Ihuriro ry'abantu bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, umweru ndetse n'ikigina bari mu mikino ngororamubiri n'undi wicaye ku gatanda uri guhabwa ubutabazi bw'ibanze.

Umukobwa w'imisatsi y'umukara ufite icupa ry'umweru ry'amazi ku munwa wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, inyuma ye hari ikirere gisa neza mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umuntu wicaye ku ntebe, yambaye ikabutura y'umukara afite agatambaro gasa n'ubururu mu isashi kari ku kaguru ke, inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Ibikoresho byabugenewe mu butabazi bw'ibanze biri mu ibara ry'umutuku ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu ibara ry'umweru, mu nyuguti nkuru, inyuma yaho hari abantu babiri becaye no ku ruhande hari abandi bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

By'ibanze biri mu gakapu gasa n'umutuku gaciyeho umusaraba uri mu ibara ry'umweru bihabwa abantu bagize ikibazo bari mu mikino ngororamubiri itandukanye iri mu bwoko bw'ibinini, inshinge, imikasi ndetse n'ibitambaro byo kwihambiriza kubagize ikibazo ndetse n'uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu.

icyapa kiriho abantu batandukanye bambaye imyenda irimo ibara ry'umuhondo, umutuku, ubururu, ndetse numukara. bari gukora sport ngorora mubiri zitandukanye imbere yaho hari amagambo yanditse munyuguti nkuru ninyuguti ntoya ari mururimi rwicyongereza mwibara ryukara ubururu ndetse n'umweru

Umwana wasamye wambaye imyenda y'ubururu iruhande rwe hari abagabo n'abagore n'umugore, wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, n'umukara, bambaye uturindamunwa, tusa n'ubururu bwerurutse ndetse n'umukara, bicaye ku ntebe z'umukara inyuma yaho hari urugi rw'ikigina ndetse n'urukuta rw'umweru.

Imbuto n'imboga ndetse n'ibikomoka ku matungo biteretse ku meza, biri mu mabara ari umuhondo, icyatsi kibisi, idoma ndetse na oranje. Hirya yaho hari ibikoresho byo gukoresha mu mikino ngororamubiri, biri mu ibara ry'umukara n'umweru.

Akuma karekare gafite aho gufata, kari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, gafite amapine ane ari mu mpande zitandukanye akoreshwa igihe umuntu afite ubumuga.

Kobwa w'imisatsi y'umukara wambaye akarindamunwa k'ubururu, iruhande rwe hari umuhungu wambaye imyenda ya bugenewe yo muri siporo ngororamubiri, hepfo yabo hari igitambaro cy'ubururu ndetse bambaye imyenda yiganje mu ibara ry'umukara, umuhondo, ndetse n'umweru.

Umuhungu wambaye imyenda yiganje mu ibara ry'umukara n'inkweto, uri mu mikino ngororamubiri, hasi ye hari igitambaro cy'ubururu ndetse n'ibirahuri by'umweru, inyuma ye hari ubusitani ndetse n'ikinyabiziga gihari.

Umugabo wicaye ku ntebe z'umweru n'imisego wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, wifashishije agatambaro ku kaboko inyuma ye hari ibara ry'umukara.

Umugabo wifashe mu nda, wambaye imyenda iri mu ibara rya kake ndetse n'umukara, uzamuye akaguru gafashwe n'uwambaye imyenda y'ubururu, uri kumugorora mu mikino ngororamubiri, inyuma yaho hari igishushanyo kiriho ibice, bigize umuntu.

Bwanwa bw'umukara wicaye afite icupa ry'amazi, mu biganza wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara ndetse, n'icyatsi kibisi ku kaboko inyuma ye hari inyubako itagaragara neza ndetse, n'umuhanda urimo umuntu uri gukora imikino ngororamubiri.

Umuhungu n'umukobwa bambaye imyenda yiganje mu ibara ry'umukara ndetse n'ikigina, iruhande rwabo hari intebe iriho baro y'umweru, hasi hari ibikapu byiganje mu ibara ry'umukara, bari gukora imikino ngororamubiri.

Ibikoresho by'imikino ngororamubiri byiganjemo utudenesi ndetse n'imipira minini, biri mu mabara y'umukara, umweru, umuhondo ndetse n'umutuku n'akuma kazengurutse, gafite utuntu tubiri n'akandi kamwe mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Umugore n'umugabo bari gukora imikino ngororamubiri bambaye imyenda iri mu ibara rya kaki ndetse n'umukara, bafite amacupa y'amazi mu kanwa asa n'ubururu, inyuma yaho hari ikirere kitari kugaragara ndetse n'ibyatsi by'icyatsi kibisi.

Umugabo uhagaze wambaye ubusa n'ikiganza gifashe mu gatuza kiriho ibimenyetso bizengurutse biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, inyuma ye hari ikirere gisa n'ubururu n'umukara.

Umugabo w'imisatsi y'umukara wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ikigina, ufite icupa ry'amazi ari kuyanywa, riri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, inyuma ye hari amashusho atagaragara ari mu ibara ry'ikigina ndetse n'icyatsi cyerururtse.

Ibikoresho byo gukoresha umukino ngororamubiri bitandukanye biri mu ibara, ry'ikigina umweru ndetse n'umukara, ku ruhande rwaho hari mudasobwa ndetse n'indebakure irimo umukobwa uri guseka w'imisatsi y'umukara munsi yaho hari ibitabo bisa n'ubururu.

Umunyamahanga ufite icupa ry'amazi ku munwa ndetse n'igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umukara n'inkweto zo kwambara, wicaye uvuye mu mikino ngororamubiri.

Umugabo wicaye ku ntebe ufite icyuma kijyanye n'imikino ngororamubiri; inyuma ye hari umunyamahanga wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse n'ubwijimye; ruguru ya bo hari igikoresho cyabugenewe mu kuyungurura amazi, ndetse n'urukuta ruriho amagambo ari mu ibara ry'umuka...

Umukobwa w'imisatsi y'umukara wicaye ufashe mu mavi wicaye ku gakoresho kabugenewe ari gukora siporo ngororamubiri, inyuma ye hari intebe iri mu ibara ry'ikigina ndetse n'urukuta rufite ibara ry'umukara n'umweru. Ku ruhande rwe hari udukoresho akoresha muri siporo ngororamubiri tw'umukara.

Umugabo ufite umubiri ukanyaraye, wahindukije akaboko, uri mu mikino ngororamubiri, wambaye imyenda iri mu ibara ry'ikigina, inyuma ye hari inyubako iri mu ibara ry'umukara itagaragara neza.

Umukobwa w'imisatsi y'umukara ufite icupa ry'umukara ry'amazi ku munwa, wambaye imyenda yo kujyana mu mikino ngororamubiri isa n'ikigina n'agatambaro ku kaboko, inyuma ye hari urukuta ruriho amabara atandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umunyamahanga n'undi uryamye ku gitanda cy'ibara ry'ubururu ndetse n'ubururu bucutse, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, imbere yabo hari mudasobwa iri mu ibara ry'umukara, irimo imibare itandukanye ndetse n'akabazo.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu batandukanye bambaye amakote na kositime, inyuma yaho hari umuntu uryamye uriho utwuma tumufasha kurambura ingingo z'amaguru. Aryamye ku gitanda cy'ubururu, inyuma yaho hari ibitambaro bisa n'ubururu bwerurutse.

Akabido karimo ibintu mo imbere, mu ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'umutuku; kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nkuru ndetse n'intoya, n'inyoni ishushanyije hejuru iri kuguruka.

Icupa ry'umweru riteretse biriho ibara ry'umukara, inyuma rizengurutse byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara hose.

Udukarito dutandukanye turimo imiti y'abarwayi, twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru, mu mabara atandukanye. Umutuku, umweru, oranje ndetse n'umukara. Inyuma hari ibara ry'ubururu.

Ububiko burimo imiti itandukanye, iri mu macupa ndetse n'udutoya, iri mu ibara risa n'umukara, icyatsi kibisi, umweru, ndetse n'umuhondo. Yanditseho amagambo asa n'umweru, iruhande rwaho hari umugore uhagaze w'imisatsi y'umukara, n'ibiti biri inyuma.

Uducupa tubiri duteretse turi mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, twanditseho amagambo y'inyuguti nkuru ari mu rurimi rw'icyongereza. Ku ruhande rw'aho hateretse ikirahuri kirimo ibintu by'umweru, imbere y'aho hari urukuta rw'ubururu ruriho amagambo y'inyuguti nkuru y'umukara, ndetse no hepfo hari andi asa n'umuhondo.

Icyapa kiriho inyoni iri kuguruka y'umukara n'amagambo ari hejuru no hasi yanditse mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nkuru, ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu bwerurutse cyane, azengurutswe n'ibara risa n'icyatsi kibisi.

Uducupa tubiri n'udukarito turi mu mabara atandukanye y'umuhondo, umweru, ndetse n'itoma yanditseho amagambo y'ururimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru ndetse n'inyoni y'umukara.

Imbuto zamoko atandukanye, zimwe ziri mu ibara ry'umuhondo, icyatsi kibisi ndetse na orange, kuruhande rwaho hari ibibabi. izi mbuto zifite umumaro kuko ni vitamin kandi igira akamaro kumubiri.

Ibirere birambitseho imiti ya kinyarawanda itandukanye imwe iri mu ibara risa n'icyatsi kibisi cyererutse, umukara, ikigina, umweru ndetse n'udusorori tubiri turimo umuhini ndetse n'ibindi byatsi byumye biri ku ruhande.

Imiti ya kinyarwanda itandukanye iteretse ahantu iri mu macupa y'umweru ndetse n'umuhondo yanditseho amagambo ari mu ibara rya oranje, umukara, icyatsi kibisi ari mu rurimi rw'Icyongereza, iruhande rwaho hari imboga z'icyatsi kibisi ndetse n'imbuto ziri mu ibara ry'umutuku.

Imiti ya kinyarwanda iteretse ahantu hatandukanye; imwe iri mu ibara ry'umukara, umutuku, ikigina, umweru; ndetse ku ruhande rwaho hari ibitabo byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'agasekuru karimo umuhini.

Umugore w'iminwa y'umutuku n'amenyo y'umweru uri guseka, musi ye hari udufuka duteretse hamwe mu bintu bitandukanye, ku ruhande hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti ntoya n'inkuru, mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi kibisi.

Imiti itandukanye iri mu ibara ry'umweru, iriho amagambo yandikishijwe ubururu mu nyuguti nkuru y'Icyongereza, hariho n'ahantu ivura hatandukanye harimo imitsi yo mu mugongo, mu rubavu, mu rutirigongo ndetse n'akaguru no mu kaboko.

Ikiganza gifashe imiti ya Kinyarwanda mu ntoki, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'lcyongereza hejuru, hasi hari ibara ry'icyatsi kibisi, ku ruhande hari ibindi bikombe biteretse ku meza.

Imiti ya kinyarwanda iri ahantu hatandukanye, hamwe h'icyatsi kibisi n'ahandi hasa na kaki yijimye, turi mu ducupa twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru, asa n'icyatsi kibisi ndetse n'uturabo duteretse tw'umweru n'umuhondo.

Imiti ya kinyarwanda itandukanye, ari mu bikoresho mu mabara y'umutuku, umweru, ikigina, umukara ndetse na kake, hejuru yaho hari igipapuro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti ntoya n'inyuguti nkuru mu ibara ry'umweru.

Imiti ya Kinyarwanda itandukanye iteretse mu macupa ari mu ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'ikigina. Amwe afite amagambo yanditseho mu ibara ry' Icyongereza ry'umukara. Ku ruhande hari utundi duteretse turi mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi ku ruhande.

Imiti ya kinyarwanda iteretse ku meza y'umuhondo, iri mu mu ducupa dutandukanye turi mu mabara y'umweru n'umuhondo, n'ururabo rariho rw'icyatsi kibisi, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nkuru asa n'ubururu ndetse n'umukara, hejuru hari andi magambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa mu nyuguti ntoya y'umukara.

Icupa ry'umweru n'umufuniko ririho ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya, ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwerurutse...

Ameza ariho amafunguro atandukanye, amwe hariho imboga, ibitoki ndetse n'imyumbati ,biri mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'ikigina, ari ahantu h'umweru.

Ahantu hari urwunge rw'abantu benshi ndetse n'ibiribwa n'ibinyobwa, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, umukara, icyatsi kibisi, ubururu ndetse impande n'impande hari imbuto z'icyatsi kibisi.

Imiti ya kinyarwanda iri mu bwoko butandukanye iri mu ibara ry'umuhondo, icyatsi kibisi, iroza, idoma, umutuku ndetse na oranje, iteye ahantu hatandukanye mu buryo bwo gufasha abarwayi.

Ingemwe ziteretse dushashi mu z'imiti ya Kinyarwanda zisa n'icyatsi kibisi, harimo icyapa cy'umweru kiriho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Inyuma yaho hari abantu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, ubururu, umutuku ndetse y'umweru bari muri iyo nyubako.

Imiti ya kinyarwanda itandukanye iri mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo, ubururu bwijimye n'umweru n'ikigina, yanditseho amagambo atandukanye ari mu rurimi rw'Icyongereza, yanditse mu nyuguti nkuru, amwe ariho indabo zisa n'icyatsi kibisi ndetse n'andi ari mu ijambo ryanditse mu mutuku.

Umuntu wambaye imyenda y'icyatsi kibisi ufite ibiganza bifashe ku kantu karimo imiti ya Kinyarwanda itandukanye, iri mu ibara ry' icyatsi kibisi n'ikigina ndetse n'umukara, imwe irashwanyaguje indi iracyari yose inyuma ye hari ishusho itagaragara.

Imiti ya kinyarwanda iri mu buryo butandukunye; imwe ni ibyatsi bisa n'icyatsi cyibisi, indi ni imbuto ikorwamo imiti yo guha abarwayi iri mu ibara ry'umweru iri mu ducupa dutandukanye turi mu ibara rya kake, iteretse ahantu hasa n'umukara.

Icupa ryiganjemo amabara y'umweru ndetse umutuku ririho agashushanyo k'inyoni, ruguru y'aho hari igihingwa gisa nk'icyatsi kibisi, hino ya ho hari amagambo yanditse mu inyuguti ntoya yo mu rurimi rw'icyongereza n'umweru.

Ibihingwa bisa n'icyatsi kibitse birambitse ahantu, hagati yabyo hari akantu kabugenewe gasa n'umukara n'umuhini wako wo gukoresha basekura ibyo byatsi bisa n'icyatsi kibisi.

Imiti ya kinyarwanda isa n'icyatsi kibisi, iri mu ibara ry'umukara, hejuru handitse amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru asamo umweru, hepfo hari ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza...

Umugabo uri inyuma y'inyubako ifite ibara ry'ubururu ndetse n'amadarage y'icyatsi kibisi wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse icyatsi kibisi n'umuhondo, ufite igihimba mu biganza byiwe bisa nkaho ari umuti wa Kinyarwanda.

Uducupa turimo imiti ya Kinyarwanda itandukanye turi mu ibara ry'umweru twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru, mu mabara y'umukara, umuhondo, idoma ndetse n'icyatsi kibisi kerurutse.

Icupa ry'umweru riteretse ahantu hasa nk'umukara ryanditseho amagambo, ari mu rurimi rw'Icyongereza, mu nyuguti nkuru, amagambo arasa n'icyatsi kibisi, n'andi y'umukara.

Ububiko busa na kaki buriho utuntu dushushanyije mu ibara ry'icyatsi kibisi burimo amacupa ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ikigina kijimye yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umukara mu nyuguti nkuru ashushanyijeho n'icyatsi.

Abagabo n'abagore bari mu nyubako irimo imiti ya kinyarwanda, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru ndetse n'ikigina imbere, inyuma yabo hari icyapa cyanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda dukoresha mu ibara ry'umukara.

Umurima urimo ibihingwa, imbere yaho hari abantu bambaye imipira yiganjemo ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru ndetse n'imodoka iri imbere yabo.

Umuntu wambaye ishati y'umweru wicaye ufite agakariko mu ntoki kanditseho amagambo ari mu nyuguti nkuru mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu cyatsi kibisi, hepfo hari umweru.

Imiti iri mu ducupa dutandukanye twose tw'umweru twanditseho amagambo yo mu cyapa yo mu Cyongereza mu ibara rya oranje ndetse n'icyatsi kibisi, ku ruhande hari abantu bagaragaza ko ino miti yagiye ibakiza indwara y'uruhu.

Amaza ariho imiti itandukanye ya Kinyarwanda itandukanye harimo ibara ry'icyatsi ndetse n'ikigina n'igikombe hejuru hariho ikiyiko, ruguru hariho amagambo yanditse mu nyuguti ntoya y'ururimi rw'Icyongereza.

Umugore w'igikara wambaye igitenge kiganjemo amabara y'umutuku, icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'umukara, ufashe ururabo rugizwe n'amabara y'icyatsi kibisi ruri ku butaka.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyerurutse. Hepfo yaho hari amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanga Akagera ndetse n'andi yanditse mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti ntoya, ari ahantu hasa n'umweru.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibirayi, aho wahurijwe hamwe mu mufuka, ndetse ibi birarayi bikaba ari ibirayi bitukura, byera cyane ahantu h'ibishanga.

Ameza ateretseho isahani y'umweru iriho imbuto ndetse n'amacupa, biri mu ibara rya orange, umuhondo ndetse n'icyatsi kerurutse, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru, mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Amacupa atandukanye y'umuhondo ndetse n'umweru yanditseho amagambo ari mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, inyuma yaho hari urukuta rw'icyatsi kibisi.